Hari umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, usa nk'aho ari kubigisha cyangwa ari kubaha amabwiriza y'ibintu runaka bagiye gukora muri ako kanya.

Hari umugore uhetse umwana, wambaye n'igitenge, uri koza imifuniko y'indobo, hirya ye hari umugezi w'amazi.

Hari abana bari kunywa amazi abana benshi cyane, bari kunywesha intoki, bigaragara ko babyishimiye cyane, ni umwe uri kuyanywa n'abandi barategereje.

Hari abagore batatu bari kuvoma amazi, babiri bafashije umwe kuvoma amazi, uwo afite indobo y'icyatsi ni we uri kuvoma amazi.

Hari abana babiri umwe ni umukobwa undi ni umuhungu bari ku mugezi w'amazi, umwe ari gusa nkaho ajya kunywa amazi undi w'umukobwa ari kuyakiniramo bisa nkaho bari ahantu handuye hari ibyondo...

Hari icyapa cyerekana ko amazi ari ingirakamaro, hariho umukecuru uri kuvoma amazi ubona ko akuze cyane.

Bari mu inama, hari abandi batandatu bicaye imbere n'abandi benshi bari kumva amabwiriza n'ibiganiro bari kugirana.

Hari umukobwa uri kwirebaba muri mirrior usa nkaho bamajije kumukorera amenyo, wishimye cyane, yambaye igitambaro cyo kwa muganga.

Hari umukecuru n'umusaza, umukecuru ari kwereka amabwiriza umusaza uko yafata ibinini bye agiye kunywa muri ako kanya.

Hari umukozi cyangwa umuganga uri gutegurira umusaza icyo kunywa n'ibyo kurya ku ruhande rwiwe.

Hari umugore cyangwa umucecuru wambaye umupira w'imbeho n'agasengere k'umweru, ufite utuntu tw'imyidagaduro mu ntoki.

Abantu benshi bigaragara ko bari mu nama, ni benshi cyane bari muri sare, bari mu nama, bari kumva amabwiriza y'ibyo bababwira.

Bari mu inama, batanu bari imbere bari kubaha amabwiriza, babaha n'ibiganiro, abandi benshi bari kubumva bateze amatwi.

Hari inzu yubatse neza cyane isa nkaho ari hoteri. Hagati harimo umuhanda ujya aho iyo hotel iba cyangwa inzu ndangamurage iri...

Hari igiti kinini kiri ahantu hari ubusitani, ku ruhande rwacyo hari n'ikindi, hari ibiti byinshi byaga ari ku ivuriro cyangwa ku kigo cy'amashuri.

Hari ibyuma bya siporo, bikora amaboko, ni byinshi biri muri Gym cyangwa aho bakorera siporo, bigaragara ko ari byinshi cyane.

Hano hari umuntu wambaye umupira w'umukara, uriho amagambo y'umutuku n'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara bigaragarare ko ari gukora siporo.

Hari umukobwa cyangwa umugore uri gukora siporo, ariko y'amaboko, amaboko ari kugaragara umutwe n'ibisuko afite.

Hari umukobwa wambaye agasenger k'umukara na kola, bigaragara ko ari gukora siporo y'amaboko, ari kubirebera kuri mashini yiwe.

Hari ibiganza bibiri biri kwerekana ga zo mu ntoki, bakoresha siporo mu gihe bari guterura ibyuma cyangwa bari gukora izindi siporo.

Hari abantu babiri, umuhungu n'umukobwa, umuhungu yambaye agasengeri n'ikabutura ari kunywa amazi, umukobwa na we yambaye agakabutura n'agasengeri ari gukora siporo, hari ibikapu biri hasi yabo.

Umukobwa wisukishije, wambaye aka bisitiri k'umukara cyangwa agasengeri k'umukara, wambaye na kora y'umukara, uri gukora siporo.

Hari umusore cyangwa umupapa cyangwa umugabo uri kunywa amazi bigaragara ko avuye muri siporo. Yambaye amakuteri ya n'umupira.

Hari ubwoko bw'amavuta atandukanye, yaba ayo mu mutwe, ayo kwisiga mu maso, n'andi agiye atandukanye ari mu bicupa bigiye bitandukanye.

Hari agacupa k'amavuta gatoya k'ubururu, hasi ari umweru, kandidikishije amagambo y'umweru n'umukara.

Hari umuntu ufite ibyatsi mu ntoki ukiri guca ibindi, bigaragara ko ari umuti cyangwa ibindi bibabi ashaka kubikoresha, umuntu ntabwo agaragara umutwe.

Hari ayo menyo y'umuntu cyangwa umunwa, hasi ye hari umuti cyangwa agatibe kerekana kerekana ko ari umuti w'amenyo cyangwa umuti uvura amenyo.

Hari icyapa cyangwa igishushanyo cyerekana ibiti kimwe n'icy'umuravumba, ikindi gifite amababi y'umweru ajya kuvangwamo n'icyatsi.